Amafi ni inyama nziza cyane ,abantu barazikunda cyane kuko zigira intungamubiri zihagije.

Inyubako iteye neza cyane, bigaragara ko ari kuri sitade Amahoro. Koko sitade amahoro ni nziza cyane, kuko yinjiza amafaranga menshi cyane mu gihugu.

Ubwoko bw'ibiryo bitandukanye. Umuceri, capati, makaroni, isosi, inyama n'ibindi byinshi cyane. Ibi biryo biteguranye ubuhanga cyane kuko bimeze nk'aho hari abantu babiteguriye.

Alimantasiyo cyangwa se akabari gateguye neza cyane, harimo amatara y'umuhondo, ku meza hateguye neza, kandi abanyarwanda bakunda ahantu hari umutekano, kandi hateguye neza cyane.

Inyubako iteye neza cyane, inyubako ishobora kuba ikorerwamo serivisi zitandukanye, amahoteli se, amalogi se n'akabari.

Inyubako zubatse neza ziri kugaragara ko bakoreramo bizinesi y'ubucuruzi. Nkuko haparitse imodoka bari gupakurumo amakesi bari, ashobora kuba ari kuri depo baranguza inzoga.

Inyubako yubatse neza cyane ubonako iberewe no kubamo alimantasiyo. Alimantasiyo ibirimo ibiribwa ndetse n'ibintu banywa, abanyarwanda bakunda kugura ibintu birabagirira akamaro.

Ahakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba hariho amabase, udukapu, imikoropesho, ndetse n'ameza, abantu bifashisha cyane cyane mu buzima bwa buri munsi.

umugabo umeze neza cyane, wicaye ameze nkaho ari ibintu ari gukora, yambaye imyenda z'umukara, inkweto z'umukara, nakuteri z'umweru, n'isaha y'umweru.

Inyubako imeze nk'aho bakoreramo buzinesi zitandukanye, izo gukora amatelefone, amamashini ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, biri kugaragara ko ari gucuruza iyi myenda. Imyenda ni myiza cyane kuko iyo wambaye imyenda, myiza cyane na we ugaragaraga neza cyane.

Inyubako zubatse nk'aho bazicururizamo ibicuruzwa bitandukanye, hino hariho umuhanda wa kaburimbo, uciyemo akarongo k'umweru.

Inzu imeze nk'aho bakoreramo ubucuruzi bw'amata, bw'inyange, amata ni meza cyane, abantu benshi barayakunda cyane hano mu gihugu cyacu, kuko afite intungamubiri ikomeye cyane mu mubiri.

Inyubako ikoremo ubucuruzi butandukanye cyane cyane ubw'imyenda, n'amakuvureri, n'ibikapu. Handitseho sasa neza shopu, bigaragara ko ibyinshi ari ibyo gusasa.

Ahantu hapanze amagare agiye atandukanye, bari kuyagurisha. Aya magare ni aya siporo kandi abantu barayakunda, kuko aragenda cyane kandi akoroshya ingendo.

Inyubako zubatse nk'aho ari inyubako bakoreramo umurimo w'ubucuruzi, kuko zubatse ku murongo, kandi bigaragara ko bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye.

Inyubako imeze n'aho bacururizagamo ibintu byo kurya, ndetse n'ibyo kunywa, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ahantu hari kugaragara ko hakorerwa ibintu bitandukanye ku bitaro cyangwa se ku kagari, kuko hari abantu bicaye mu nzu bategereje undi wiciye hanze utegereje.

Inyubako zimeze nk'aho bazikoreramo ubucuruzi bugiye butandukanye. Uri kubona ko handitse igisa na kofi bacuruza icyayi n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Inyubako imeze nk'aho bacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, urugero nka butike kuko butike iyo yegereye abaturage babasha guhaha neza bitabavunnye.

Ahakorerwa ubucuruzi butandukanye cyane cyane ubucuruzi bw'imyenda y'abadamu harimo udukapu, ibisabo, ndetse n'imyenda yambaye maneke biri kugaragarako bayicuruza.

Inzu iri kugaragara ko ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye cyane cyane ubucuruzi bw'amarangi, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imodoka ifite amapine y'umukara, ikagira amarangi y'umutuku n'icyapa kiriho umumama cy'umweru, imodoka imeze nkaho ari ibintu icuruza.

Inyubako yubatse neza cyane. Iyi nyubako ikorerwamo imirimo itandukanye, cyane cyane imirimo y'ubucuruzi.

Icyapa kiranga ahantu hakorerwa igikuba runaka, iki cyapa kigaragaza ko bacuruza ibikoresho bya elegitoronike.

Inyubako ziteretse ahantu heza cyane, izi nyubako wazikoramo bizinesi zitandukanye, wazicururizamo zakora n'ibindi bimeze nk'imishinga, kandi ikabyara inyungu ihagije.

Udukomo bambara mu maboko, utu ni udukomo bambara kugira ngo tugaragaze, tugaragaze umuntu neza hagaragare ko yambaye utuntu twiza cyane. Udukomo ni twiza kuko abantu benshi bakunda kutwambara.

Abantu bahagaze mu muhanda bameze nkaho hari ikintu bategereje, imbere yaho hariho amazu bameze nk'ayo bacururizamo.

Icyapa kiranga ahantu hakorerwa ibintu runaka, iki cyapa kirikuranga ahantu hakorerwa umurimo w'amaloji. Amaloji ni meza atuma abantu bacumbika mu gihe bubiriyeho.

Inyubako zubatse neza cyane, ziteye amarangi meza cyane izi nyubako ziri kugaragara ko wakoramo business yakabare kandi bukagenda neza cyane.

Ahantu hameze nkaho bakorera ubucuruzi butandukanye ,ubucuruzi bw'imyenda, ndetse n'amakuvurori ,cyane cyane imyenda y'abagore. Aya maduka atuma abantu basirimu cyane.

Inyubako ziteretse neza ku murongo, hasi hariho umutaka wa Emutiene ukoreramo umwajenti wambaye akajire k'umuhondo. Emutiene ni ...

Ahantu hakorerwa buzinesi yo kuvura amatungo, bigaragara ko izi ari vitamini batera itungo, inka ndetse n'intama. Vitamini ni nziza cyane zituma itungo rikura vuba kandi rigakura neza.

Icyapa kiranga ahantu hakorerwa ikintu runaka. Iki cyapa kiri kwerekana ko hano ari kuri hoteli Faraja henikeni. Hoteri ni nziza cyane kuko hari igihe umuntu bumwiriraho bikaba ngombwa ko atarara arageze iyo agiye, bikaba ngombwa kwirarira muri hoteli.

Icyapa gishobora kuba kiri kurangisha ahantu bakora ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo inzoga, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu babiri， bameze nk'aho bari kurobanura ibirayi bitoya， bari kubivangura n'ibinini kugira ngo babashe，kubigurisha neza cyane.

Ibyapa biri ahantu hameze neza cyane. Ku mpande herekana ko hakorerwa ibyo bikorwa bamanitse kuri ibyo byapa bimantse ku muhanda.

Icyapa kimanitse ku nzu imeze nk'aho bakoreramo ibikorwa runaka. Ndi kubona hicayemo abantu babiri bafashe amamashini bose. Iki cyapa mu bigaragara ni irembo.

Inyubako imeze neza cyane iri kugaragara ko hakorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, kuko n'inzu yubatse mu buryo bw'igorofa. Iyi nzu yubatse neza cyane abantu bakunda guhahiramo ibintu bigiye bitandukanye.

Iduka ricuruza imyenda ndetse n'amashuka n'amakuvureri sasa neza shopu, iri duka ririmo ibikoresho abantu benshi bakunda kugirango babashe kubaho neza, bityo kugirango babashe gusinzira neza.

Icyapa kirangisha abantu bakora ibintu bigiye bitandukanye, aho cyanditseho "Party decor",bashobora kuba badekora ahantu habereye ubukwe, cyangwa se hagiye kubera ikintu runaka.

Icyapa kiranga ahantu bakora ibintu runaka hano bakora shopo ya resitora, ndetse ninzoga zigiye zitandukanye.

Icyapa kiri kuranga ahantu bakorera bizinesi runaka, Kayitare gesite hawuzi igaragaza ko hano hantu haba amacumbi.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye. Iri duka kandi rikaba rikorana na Banki ya Kigali. Equity ni umu ajenti wa Equity Bank.

Inzu iri kugaragara ko bakoreramo ubucuruzi bugiye butandukanye. Ubucuruzi bw'amabase, imigati ndetse n'ibindi byinshi cyane. Gucuruza ni byiza cyane bitunze abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bicaye mu buryo butandukanye, uburyo bugaragara ko ari korari cyangwa se itsinda runaka, bakaba bambaye imyenda isa bose, bose bambaye n'ibitambaro mu mutwe tw'umukara n'umweru.

Inyubako imeze nk'aho bakoreramo umwuga w'ubucuruzi, kuko imbere yawo urabona ko hariho icyapa kiri kuranga bake ya ekwiti bake, bashobora kuba bakorana n'iyo nzu bashobora kuba bakoreramo ubucuruzi.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, iyi nyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa, igiye igerekeranye, ikorerwamo imishinga myinshi igiye itandukanye.

Igitanda kimeze neza cyane, gishashe neza cyane, aho harimo ibishushanyo bitandukanye, hakaba hariho n'ikuvurori isa nk'umweru, ndetse n'umukara.

Inzu zubatse neza mu buryo bwa kijyambere, inyuma hari inzu imeze nk'aho ari igorofa, hejuru hari irangi ry'umutuku...

Icyapa kiranga ahakorerwa ibintu runaka, cyanditseho Raparume hoteri, kiri kugaragaza ko hantu hariho hoteri, hariho hoteri ikaba imeze neza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, imbere hari inyubako y'igorofa ikoremo bizinesi zitandukanye, cyane cyane bakoreramo bizinesi z'ubucuruzi.

Ahantu hameze nko muri saro, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo amafoto n'utumeza dutoya, iyi saro ikoze neza cyane abantu bakunda kwiyakiriramo, iyo basuwe n'umuntu cyangwa se iyo bari mu mirimo isanzwe.

Inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa. Inyubako ikorerwamo bizinesi zitandukanye, hasi bacururizamo ibikoresho bitandukanye, hejuru hakaba harimo hoteri.

Mu ruvunge rw'abantu benshi bahuriye bose bariguhaha. N'abandi benshi bari gucuruza ibyo bintu abantu baje guhaha biri kugaragara ko ari mu isoko, kuko harimo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Umumama uri kugenda ahantu mu isoko, ashobora kuba ashaka kugira ikintu agura. Mu isoko harimo n'abandi bantu, bameze nkaho aribo bari kugurisha ibyo bicuruzwa.

Umuntu wicaye mu isoko ameze nkaho ari gucuruza ibi biribwa: imineke, avoka, n'ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi cyane. Yicaye ku ntebe ndende yambaye agapira k'umweru harimo n'agakara gake.

Imboga za karoti. Karoti ni imboga nziza cyane, ku buryo abanyarwanda bazikunda, kuko zifite vitamini zongera mu mubiri wacu.

Urusenda n'kabuto keza cyane abantu benshi baragakunda. Kuko agasenda iyo ukariye kubiryo gatera apeti, ukumva ko ibiryo biri kuryoha neza cyane kandi urusenda abantu benshi cyane m'Urwanda bararukunda.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye hagaragara ko ari umuntu ufite akagare agaparitse, agiye kureba ibintu bitandukanye.

Ahantu hameze nk'aho ari mu isoko kuko harimo ibicuruzwa ndetse n'abantu benshi, babihagaze hejuru bashobora kuba ari bo bashaka guhaha ibyo bicuruzwa.

Inkono ziteretse ahantu hamwe ndetse n'imbabura iteretse ku ruhande. Inkono ni inkono abantu bakera bakundaga gutekamo ibiryo bigiye bitandukanye, ariko kuri ubu ngubu ushobora gusanga hari ahantu zatangiye gucika.

Imineke myinshi cyane ndetse n'amaronji n'ibitunguru n'inyuma hariho kokombure n'ibindi byinshi cyane, biri kugaragara ko hano ari mu isoko bacuruzamo ibiribwa byo kurya.

Ahakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo ibikombe, amabase n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ibirago bihagazeho umumama umeze nkaho ari we uri gucuruza ibyo birago. Ibirarago ni byiza cyane, kuko abantu babikundira ko bakunda kubyanikaho n'imyaka yabo.

Ubucuruzi butandukanye burimo: udukomo, urunigi, ibisokozo ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, udusokozo ni twiza cyane kuko abantu benshi bakunda kutwireberamo.

Abantu bicaye mu isoko bari gucuruza imboga zigiye zitandukanye, puwavuro, ibitunguru ndetse n'amakaroti n'ibindi byinshi cyane. Imboga ni nziza cyane Abanyarwanda barazikunda.

Inyubako ziteye neza cyane zikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, izi nyubako bakoreramo bizinesi zitandukanye kuko izi nyubako ziri ahantu heza, kandi iyo ufite inyubako iri ahantu heza ukora bisinesi ikagenda.

Inkweto zimeze nk'aho ari izo gucuruzwa. Ubucuruzi, gucuruza inkweto bivamo amafaranga menshi cyane bivamo amafaranga menshi cyane kandi n'igihugu kikabyungukiramo mu misoro.

Uruvunge rw'abantu batandukanye. Harimo abagore n'abagabo, ndetse n'abana. Baremye isoko n'abataremye isoko, harimo n'ibisambo.

Abantu bari gusunika amagare, amagare yabo ateretseho ibitebo, bigaragara ko hano harema isoko, bakaba ariho haremeye isoku bajyanyemo ibicuruzwa runaka.

Betarave ni igihingwa kiza cyane. Betarave yongera amaraso menshi mu mubiri w'umuntu iyo amaraso yabaye make, cyangwa se yayatakaje.

Marakuca ni imbuto nziza cyane, abantu benshi barazikunda cyane kuko zigira intungamubiri mu mubiri wacu. Abanyarwanda benshi barazikunda cyane.

Ubucuruzi butandukanye. Ibitunguru, puwavuro, intoryi ndetse n'indimu. Ni ubucuruzi bwiza cyane, kuko abaturage b'abanyarwanda bakunda ibintu by'imbuto ndetse n'imboga.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'inkweto ndetse n'ibindi bintu bitandukanye cyane cyane inkweto. Inkweto ni nziza cyane, zatuma abantu bambara bakagenda nta kibazo bafite mu muhanda.

Ubucuruzi bw'imyaka y'imboga. Imiteja ndetse n'intoryi. Intoryi ni igihingwa kiza cyane. Kera kitagoranye cyane, kandi kikinjiza amafaranga menshi cyane.

Ubucuruzi butandukanye bari gucuruza ibiyiko, ibyuma se, amasahani, ibikombe n'ibindi byinshi bitandukanye, kandi byose bitugirira akamaro mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako yubatse mu buryo bw'amagorofa, amagorofa ni inyubako ziba zigerekeranye hejuru cyane, ni inyubako zikorerwamo bizinesi zitandukanye, gucuruza imyenda se, inkweto, n'amatelefoni, n'ibindi byinshi cyane.

Abantu bari mu masoko bari guhaha ibiribwa bigiye bitandukanye. Birimo karoti, inyanya, ibitunguru ndetse na pwavuro n'ibindi bitandukanye. Aba bantu bambaye imyenda itandukanye bagiye guhaha kugira ngo babashe kubaho bishimye bafite n'ibyo kurya.

Amasambusa bayakora mu birarayi, cyangwa se ayo bakora mu nyama, no mu ifarini. Kandi abantu barabikunda cyane. Barabikunda.

Ubwoko bw'inkweto zitandukanye nyinshi cyane，zimeze nk'aho bazicuruza. Izi nkweto zivanzemo iz'abakobwa， ndetse n'iz'abagabo.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane gikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Inyanya iyo uzejeje uba uri umukire uhambaye cane.

Umuntu wicaye umeze nkaho ari gucuruza iyi myumbati, imyumbati ni myiza cyane kuko yongera imbaraga mu mubiri w'umuntu. Imyumbati ikunda kwera ahantu hari igitaka kimeze neza cyane.

Ibiraha biri mu ndobo. Ibiraha ni ibintu bateka mu birarayi, bamara kubiteka mu birayi bakabishyira mu kantu bakoze mu ifarini, bamara kuzingamo neza bagatereka mu mavuta, nuko byamara gushya bakabikuramo.